Mu muhanda wa kaburimbo harimo haragendamo umumotari, uri ku kinyabiziga cya moto. Inyuma y'iyo moto, hari imirongo y'umweru, igaragaza ko hari ahantu abanyamaguru bambukira.